Kurangwa n'umutuzo mu nama birafasha mu gukurikira, gutega amatwi ibyo ubwirwa, gutanga inyunganizi icyifuzo urasa ku ntego bifasha uyobora ibiganiro.

Kwiyemeza kuvuga ijambo ribavuga ibigwi muryumvikanaho mukaryemeranywaho mu buryo bwose muziranyeho.

Kwitabira inama biba byiza iyo ufite aho wandika ibyavuzwe mu buryo bwo kuza kwiyibutsa igihe haba hari icyakwisobye mu mpanuro mwahawe n'ibitekerezo byahatangiwe.

Kurasa ku ntego mu nyunganizi cyangwa igitekerezo bifasha gutanga amahirwe ku bandi nabo bashaka gutanga icyifuzo cyabo hakumvwa benshi mu buryo bwihuse.

Kwitabira imbwirwaruhame ukirinda kurangara ni kimwe mu bifasha nk'uyoboye ibiganiro kuko abona inyunganizi n'ibitekerezo.

Guhabwa indangururamajwi ugatanga icyifuzo cyangwa inyunganizi ku kiganiro cyakozwe cyatambutse mbere.

Iyo abaturage bitabiriye inama n'abayoboye icyo gikorwa, hari ubwo biba ngombwa ko bashyiraho morale bakishima, bagaseka, bakabyina barangiza bagasoza.

Gutanga igitekerezo cyangwa icyifuzo mu biganiro byakozwe haruguru.

Kuyobora imbwirwaruhame ugomba kuba ugaragara neza, kandi wifitiye ikizere mu byo uri kuvuga ugomba kuba wabiteguye neza byose.

Iyo hateguwe inama abashyitsi bakuru bategurirwa ibyicaro byihariye kandi biri aho abantu bitabiriye imbwirwaruhame baza kuba babareba neza.

Inka y'inyambo, iteze, ibyagiye, mu rwuri.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo z'umuco Nyarwanda bari gutaramira abitabiriye igitaramo, binikije bashoje.

Kuririmba imbyino gakondo no kuzibyina binyura ababireba n'abari kumva indirimbo bijyanye n'umudiho n'amashyi biba biri gukomwa n'ingoma byose bikumvikana binyura amatwi.

Iyo ababyeyi bari kubyina bambaye imishanana bateze n'urugori biba bigaragara neza biryoheye amaso.

Mubukwe mwagiye gusaba no gukwa ngo murebe ko mwahabwa umugeni, mwaje muje gushaka.

Amacumu, igikoresho cyakoreshwaga hambere mu rugamba barimo kwikiza umwanzi babaga bahanganye.

Gukoresha ingoma mu mbyino gakondo binyura amatwi y'abari kumva iyo njyana.

Kubyina umuco gakondo hari ubwo bigusaba gukoresha ibikoresho bikuremera injyana, mu maguru wifashishije nk'amayugi ugakora, ugashayaya bifite uburyo bigendamo.

Imbyino z'umuco nyarwanda zirangwa no gushayaya kw'abakobwa bateze amaboko n'umuhamirizo w'intore no guca imigara bigaragara muri ubwo bushobozi baba bifitemo.

Inkono y'itabi bishisha banywa igimba, baragifata bagafata utubabi twacyo bagacucumiramo muri kariya kenge ubundi bagafatisha bagakurura.

Ibice by'icyaro bitagira umuhanda mwiza bigirwaho imbogamizi n'igihe cy'imvura ku buryo abantu bashobora kuhagirira impanuka bitewe n'ubunyerere.

Igikorwa remezo cy'urugomero ni kiza, gifasha mu gutunganya umuriro uvanywe mu mazi.

Gusimbuza insinga zagize utubazo n'udukoresho turi aho umuriro winjirira mu rusinga ujya ku muyoboro w'inzu barwerekejeho.

Ahatunganyirizwa umuriro w'amashanyarazi, si byiza kuhajya utazi amategeko n'amabwiriza kuko ushobora kuhaburira ubuzima.

Nibyiza gucuruza ibikoresho bisimbura ibyakoreshejwe mu gihe byo byaba byagize ikibazo cyangwa bishaje bikabona ibibisimbura.

Inkingi yifashishwa mu kujyana insinga z'amashanyarazi mu bice bitandukanye bazinyujije mu kirere.

Aho hagenewe guhurizwa insinga z'umuriro zigize inyubako mu buryo bwo guhuza, aho wa zimiriza n'aho wa kwakiriza.

Gukora mu bikorwa by'umuriro w'amashanyarazi, uba ugomba kuba wambaye ibikoresho byabugenewe bikurinda kuba wahura n'impanuka mu gihe uri gufata ku nsinga.

Insinga z'amashanyarazi iyo zitambutswa zijyana imiriro mu gace runaka, bisaba ko hari igihe zinyuzwa no mu kirere mu buryo bwo kurinda ko zakangirika zicishijwe hasi.

Ku ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi aho ukurwa ujya gucanwa mu bice bitandukanye mu baturage.

Buri mudugudu, buri murenge, n'akagari, ni ngombwa ko bagira amahame n'indangagaciro zibagenga na kirazira bagenderaho.

Igikorwa remezo cya leta cy'ikusanyirizo ry'amata, kiba kigomba kuba gisukuye kandi kirimo ibikoresho byo gucubanuramo amata igihe bayazanye, mu buryo bwo kuyarinda kwangirika.

Kugirira isuku urwibutso ni ibintu by'a agaciro, kuko habitse imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Ibikorwa remezo bya leta birimo nk'amavuriro ni byiza kuko bitanga akazi ndetse bigafasha n'abarwayi kwivuza batagiye kure.

Gahunda ya leta yo gutuza abaturage ibahurije ahantu hamwe mu buryo bwo kugabanya no kongera ubutaka bwo guhingwa.

Uburyo wakira abakugana nibwo butuma bakwishimira cyangwa baheraho bakunenga banakugaya imikorere yawe.

Ku ikusanyirizo ry'amata haba hagomba kwitabwaho kuko ni ho ava yerekeza aho abantu bayakeneye.

Gahunda ya Leta yo koroshya imigenderanire hashyirwaho ibiraro bica mu kirere mu gufasha abaturage mu bikorwa byabo bya buri munsi n'imihahirane.

Ibikorwa remezo bya Leta, bigira uburyo bikoreshwa, bikanitabwaho, mu kubisigasira, bikarinda kwangirika.

Ibiro by'Akagari ni igikorwa remezo cya gahunda ya leta yo kwegereza abaturage ubuyobozi kandi mu buryo bwiza bwizewe.

Leta ifite mu nshingano yo gushyiraho ibikorwa remezo, bifasha abaturage bayo mu migenderanire aho ibona ko bikenewe cyane.

Gutuza abantu k'umudugudu, ni gahunda ya leta ifasha gushyira mu bikorwa umutekano w'abaturage kuko baba bari hamwe.

Ibitaro bikuru bitanga ubuvuzi bwisumbuye ku bwa santere do sante, hifashishwa ikoranabuhanga rigezweho ndetse n'abaganga bafite ubushobozi bwisumbuye.

Igikorwa remezo cya leta cyo kubaka ibyumba by'amashuri mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abana bugaragara mu mashuri.

Ibikorwa remezo by'inyubako z'imipira y'amaguru ni byiza ko bishyirwa ahitaruye abaturage mu rwego rwo kutababangamira mu gihe hari kuberamo imikino.

Ikiraro cyubatswe gikomeye gifite uburebure mu buryo bwo kunoza imigenderanire hagati y'agace kamwe, n'akandi.

Gahunda y'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubukerarugendo yo gusigasira amateka habyazwa n'inyungu mu buryo bw'ubukerarugendo bushingiye ku mateka.

Umuhanda winjira mu wundi ufite naho batambuka babanje kuzenguruka bakabona gukomeza.

Gahunda ya Leta yo gutuza abaturage ku midugudu kandi mu buryo bugezweho burayifasha mu gukurikirana imibereho yabo kandi bakitabwaho uko bikwiye.

Si byiza gucisha umuhanda uwegereje ibyumba by'amashuri kuko bituma abana babangamirwa mu gihe bari gufata amasomo yabo.

Urugendo shuri rurebana no kwigiranaho ku mipaka mu kwakira abaje bagana ibihugu, birafasha mu buryo bwo kumva bizeye umutekano w'aho bagiye.

Umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda werekana icyapa cyifuriza abagenda urugendo ruhire.

Gahunda ya Leta yo gusukura insisiro hubakwa inzu zigezweho kandi zihuje igishushanyo mbonera mu buryo bwo kunoza isuku n'iterambere rirambye.

Inzu bakoresha mu kuburanisha abakoze ibyaha no kurenganura abakekwa ariko barengana.

Gutanga ubutabera bisaba kuba uri inyangamugayo no kutarya ruswa ikunze kugaragara, ntukimakaze imico itari myiza mu gutanga ubutabera.

Leta ireberera abaturage mu byo bakeneye birimo n'aho bazajya bidagadurira, bakishimirwa bakanahererwa ubutumwa bwiza bukwiye bashaka gutambutsa.

Ni ngombwa ko ufasha abakugana bazi gusoma kubereka ibikorwa bya buri munsi ubinyujije mu nyandiko.

Igikorwa iyo cyuzuye kirishimirwa kuko kiba kije kunoza imigenderanire iba yaradindijwe no kuba n'aho kunyura bafite.

Ku mupaka haba hari ibyapa bigaragaza uvuye mu gihugu kimwe yinjira mu kindi ko amaze kwambukiranya icyo gice.

Ibibaro byo mu kirere ni igisubizo ku baturage mu duce batuyemo, bibarinda gukora ingendo ndende bazenguruka bajya gushaka ahari ibiraro byambukiranya umuhanda bitabasha kuba birebire nk'ibyo baba bashyiriweho.

Gahunda y'ubuyobozi yo kwegera abaturage bakababaza ibibazo bafite n'ibyo bifuza mu bibagenerwa ni imwe mu buryo bwiza umuyobozi yakagombye kuba akoresha.

Gutanga ubutabera mu ruhame , aho icyaha cyakorewe bishimisha abaturage kuko baba babigizemo uruhare mu guhabwa ibyo bifuza.

Nk'urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha, ruba rugomba gusobanurira abaturage ibyaha rugenza, no kubyirinda bakaba batagwa mu makosa, igihe icyo ari cyo cyose.

Bakurikiranye urubanza rurimo ruracibwa, bateze amatwi ingingo zirimo gutangwa kugira ngo hafatwe umwanzuro ukwiye kandi ukurikije amategeko.

Umuyobozi mu by'umutekano mu nteko rusange y'urubyiruko arukangurira gukunda igihugu no kurinda ubusugire bwacyo no kumenya amahame y'umutekano w'igihugu.

Iyo uri gukemura ibibazo by'abaturage bisaba gutega amatwi ukabumva neza ku byo batanga ugatanga ubutabera utabogamye.

Iyo uzi ko uri bwavuge imbwirwaruhame iribwazemo abantu benshi, ni byiza ko utegura indangururamajwi kugira ngo ubutumwa wateguye bugere kuri bose.

Kuba maso no gutega amatwi ku ngingo ziri buganirweho ni iby'agaciro kuko watanga inyunganizi cyangwa icyifuzo cy'uko ibintu byakorwa aho biri ngombwa.

Urumuri rusobanuye icyizere cy'ubuzima n'uko nta curaburindi rizongera kubaho ukundi.

Nk'umuyobozi kwegera abaturage ukumva ibyifuzo byabo n'ibibazo bafite ukabikemura biranga imikorere myiza mu byo ushinzwe gukora.

Kugendera ku mategeko n'ubumuntu ni byo biranga umuyobozi no gutega amatwi abo ayobora akabakemurira ibibazo byabo neza.

Ikimenyetso gishyirwa mu muhanda gikozwe mu mirongo cyerekana aho abanyamaguru bagomba gutambuka bambukiranya umuhanda n'utwaye ibinyabiziga iyo ahageze agabanya umuvuduko.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange iri gutambuka mu muhanda wubakishije amabuye ijya mu cyerekezo yerekezamo.

Ikibuga bifashisha, bakoresha ibizamini byo gutwara ibinyabiziga ku banyeshuri biteguye neza.

Iyo hagiye gukorwa umushinga wo kubakwa amazu haba hagomba kuba hari igishushanyo mbonera kizakurikizwa bubaka izo nyubako kandi biriho n'ababishinzwe bagomba gukurikirana uwo mushinga.

Aho wifashisha utegereje imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ukaba wicaye wirinda ko izuba ryakwica.

Icyapa cyerekana ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira banyuze mu muhanda rwagati.

Uburyo wakwifashisha urangira umuntu ahageze bidasabye ko abaza mugenzi we waba umuri hafi wakifashisha n'icyapa.

Kugenda mu muhanda ugendera mu gice cyo cyabugenewe, birafasha mu kurinda guteza impanuka.

Ibyapa byerekana ibimenyetso, hari intera yagenwe biba bigomba gushyirwa ku muhanda.

Ikinyabiziga gitwaye abakozi bari mu butumwa bw'akazi kiri gutambuka mu muhanda nyabagendwa.

Gukora umuganda mu gace mutuyemo mukora ibikorwa remezo by'umuhanda birafasha mu iterambere n'imigenderanire kuba hatambuka.

Ni byiza kugira umuco wo gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda kwanduza abandi ushobora gusuhuza.

Umuganda wo gukata ibyatsi byamaze kuba igihuru barwanya imibu ishobora kwihishamo ikaba yateza ibyago abaturage ku bufatanye n'ingabo z'igihugu.

Umuganda wo kurwanya ibihuru n'ibiziba mu rwego rwo kwirinda marariya, no guca imibu ikambikamo.

Gahunda ya polisi yo gushishikariza abatwara ibinyabiziga, birinda impanuka zitateganyijwe, bigengesera kuba batatwara banyoye.

Kuba umuyobozi mwiza bisaba gutega amatwi abo uyobora bakugezaho ibyifuzo byabo, ukagerageza kubikemura uko ushobojwe n'ubushobozi ufite.

Inshingano z'Umupolisi z'ingenzi kurusha izindi; ni ukwita ku mutekano w'umuturage, agakora ibikorwa bye nta mbogamizi.

Umuyobozi uri gutanga impanuro ku bijyanye n'umutekano abwira abaturage be abakangurira kwicungira umutekano no gutanga amakuru ku gihe igihe bibaye ngombwa.

Ifoto y'urwibutso ya nyuma y'imyitozo, kugira ngo ujye ureba wibuke icyo gihe nahoho wari uri n'abo mwari muri kumwe.

Mu mikino habamo kwiyerekana mu buryo butandukanye, harimo n'aba buteye ubwoba wabasha nko kurya ikintu kirimo ikiraka gifite ururimi rw'umuriro uhambaye.

Umukino w'umupira w'amaguru ugira abawuyobora, bakitwa abasifuzi bafasha mu gutuma umukino ugenda neza. Bakerekana n'abagomba kwinjira mu kibuga abandi bakavamo, igihe bananiwe cyangwa se bahuye n'imvune.

Ni byiza kugira ibibuga by'umupira w'amaguru bitunganyije neza kuko birinda gukomereka abawukina yaba ari abahungu cyangwa abakobwa.

Umukinnyi utera imipira y'imiterekano, bisaba kuba ari umuhanga muri yo, ku buryo atayipfusha ubusa.

Umupira w'amaguru ushimisha abawufana igihe batsinze, ukanababaza batsinzwe.

Umukino w'umupira w'amaguru uri guhuza impande ebyiri zitandukanye, mu kibuga cyiganje cyiganjemo ibitaka kidafite ubwatsi buhagije.

Gushyikirizwa urupapuro rugaragaza amafaranga mwatsindiye mu marushanwa mwari murimo y'imikino mwakinaga.

Imyitozo ngororamubiri mu buryo bwa rusange mwihurije mu mbuga imwe mufite umugambi umwe.

Biba byiza gukora imyitozo yo kunanura imitsi mbere yuko ujya mu kibuga gukina umupira w'amaguru, wabashije kumenyereza igihaha gukora neza.

Umukino njyarugamba ugufasha kwirinda mu gihe waba usagariwe n'umuntu ugutunguye cyangwa se ugushotoye mu buryo ubwo aribwo bwose.

Umukino w'umupira w'amaguru, nimwe mu buryo bwo gukora siporo ifasha mu kugira ubuzima bwiza.

Gukina umupira w'maguru ntibikwemera kugira ubuzima bwiza gusa, ahubwo bikuzanira inshuti n'ibyishimo no kwitanga no guharanira gushaka intsinzi mu buzima.

Ingengabihe y'uko Imirenge izarushanwa muri kimwe cy'umunani kirangiza, mu gikombe kitiriwe Umurenge Kagame.

Gukina umupira w'amaguru mu kibuga kitari kiza bigira ibyago byinshi byo kuba abakinnyi bavunikiramo, no kudashimisha abawureba.

Umuhinzi uhinguye aba afite inyota n'inzara anananiwe cyane.

Ni byiza kugenda mu muhanda wubahiriza amategeko awugenga, n'amabwiriza kandi ufite ibyangombwa byuzuye igihe wabibazwa ukabitanga.

Kwita ku mwana igihe muri kugenda mu muhanda, ni inshingano zikomeye zo kurinda ibyago ashobora kuba yateza.

Gukora umuhanda uwukoresheje amabuye, bituma ukomera ukaba utajyanwa n'isuri igihe imvura igwa ari nyinshi.

Ubutaka bwigishirizwaho ibinyabiziga buba bukomeye kubera uburemere kubw'ibiba bihakandagiraho.

Gukora umwuga wo gutwara abantu ni byiza kumenya ibice byinshi bitandukanye abagenzi berekezamo, mu rwego rwo kutabayobya ubatinza aho bagera ku gihe.

Intera yerekana aho urukiko rwa Nyagatare ruherereye uvuye aho icyapa kiri abantu bifashisha bari guhabwa no gutanga ubutabera bw'ibanze.